Iyo umuntu arwaye, ajya kwa muganga bakamutera urushinge rugatuma indwara yararwaye ikira, maze muganga na we akamuha imiti ikwiranye n'uburwayi afite.

Igiti kimeze neza, gisa neza, kiri gukura neza, nikimara gukura bazagikuramo ibiti bajye kubishingiriza ibishyimbo. Ibishyimbo nibimara gukura neza bazabijyana ku isoko babahe amafaranga.

Umuti bakoresha bavura indwara gakondo bitandukanye, abantu baba barwaye mu buzima bwabo bwa buri munsi, bakabaha amafaranga bagatuma akomeza kwiteza imbere.

Umuti wa gakondo bakoresha bari kuvura indwara zitandukanye abantu barwara.

Igiti cyakuze neza, gisa neza , kimeze neza, bakoresha mu muco gakondo bavura indwara zitandukanye, abantu barwara mu buzima bwabo bwa buri gihe.

Icyatsi bakoresha bakora umuti wa gakondo, bavu abantu barwaye indwara zitandukanye. Bityo bakawugura kugira ngo bagire ubuzima bwabo bwa buri gihe.

Ururabo rwiza rumeze neza, rusa neza, rwakuze neza, ruri impande y'ibigori, ndetse iruhande hariho n'izindi ndabo, ubona ko rumeze neza, ibigori bigiye kwera, bikazatanga umusaruro mwiza.

Indabo zimeze neza, zakuze neza, ntaki kibazo zifite. Bazitera mu ngo n'impande y'urugo kugirango urugo ruse neza cyane.

Ibyatsi bimeze neza byakuze neza, babikoresha nk'umuti wa kinyarwanda bavura abantu barwaye indwara zitandukanye, kugira ngo bagire ubuzima bwiza.

Icyatsi bakoresha mu muco gakondo, bakoramo imiti ijyanye no kuvura abarwayi barwaye indwara zitandukanye, bakaza kugura uwo muti kugira ngo bibafashe gukira.

Igiti kimeze neza cyakuze neza, ubona ko ntakibazo gifite. Gikigijwe n'ibyatsi, ubona ko kizatanga umusaruro mwiza wo gukuramo ibiti n'imbaho.

Icyatsi bakoresha bavura indwara abantu baba barwaye. Buri gihe mu mucyo gakondo bavurisha ibyatsi kugirango abantu babashe gukira indwara zabo.

Igiti kimeze neza gisa neza gifite amashami meza bakuramo imishingiriro , icyo giti iyo kimaze kwera bagikuramo imbaho ,cyangwa bakagicana bagakuramo amakara, gatuma bakomeza gucuruza.

Igiti kimeze neza kikiri gitoya, kiri kuzamuka neza. nikimara gukura bazagica, bagikuremo imbaho maze bazigurishe, babahe amafaranga maze bakomeze gutuma biteza imbere.

Ibyatsi bimeze neza bisa neza ubona ko iyo bimaze gukura bibonekamo uturabo twiza, kandi turabo badukoresha iyo bari kudekora ahantu habaye ibirori bitandukanye.

Igiti kimeze neza cyakuze neza, ubona ko kiri kuzamuka neza. Nikimara gukura bazagica bakuremo imishingizo yo gushingiriza ibishyimbo, ikindi bagiteme bakuremo imbaho bazijyane ku isoko, bazigurishe babahe amafaranga.